Akabati gateretse ahantu mu nzu kandi muri ako kabati harimo ibikombe bisa nk'ibirimo imbuto cyangwa se ingemwe zigendanye n'ubuhinzi nk'inyanya ndetse na karoti.

Ahantu hateraniye abantu benshi, harimo abagabo n'abagore, bigaragara ko ari abantu bari mu ishyirahamwe rijyanye n'ubworozi, kuko aha ngaha bigishwaga uko batunganya ubwatsi bwo kugaburira amatungo.

Abaturage bahinzi borozi, mwese mukanguriwe guhinga ku materasi y'indinganire. Amaterasi y'indinganire atuma ibihingwa bigenda neza kandi n'imvura ntijyana ubutaka mu buryo bw'isuri. Barimo barahinga ibiti bivangwa n'imyaka, aho barimo bashyiraho ifumbire mvaruganda.

Akabati k'umweru, kari ahantu mu nzu, ndetse ako kabati kakaba karagenewe kubikwamo imiti igiye itandukanye, buri muti ugashyirwa mu mwanya wawo aho wagenwe, ku buryo igihe umuntu awushaka, bitagorana arimo arawushakisha.

Ubuhinzi bw'inyanya ni ubuhinzi bukunda gukorerwa ahantu hari igishanga kandi bukaba ari ubuhinzi bukunda gukorerwa ahantu hashashe cyane. Gusa akaba ari ubuhinzi busaba kwitanga no kubwitaho by'umwihariko usasira inyanya ndetse unazitera umuti wica udukoko kugira ngo uzaguhe umusaruro uhagije.

Umugabo wari uri mu murima we ahingamo ikawa, uwo mugabo bigaragara ko yari arimo abagarira ikawa, cyane ko igihinga cy'ikawa, ari igihinga gikunda kubagarirwa ndetse no gusasirwa, kugira ngo kere neza, kimeze neza.

Inzu nini y'ubucuruzi yarimo akabati k'ibara ry'umweru, yuzuyemo imiti ndetse n'ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, nk'uko icyapa kiri aha ku muryango w'iyo nzu kibigaragaza.

Igihingwa k'ikawa ni igihingwa gisaba kwitabwaho cyane. Uyu mumama arimo aritaho iki gihingwa kugira ngo arebe ko cyazabasha kumuha umusaruro wigiye imbere kandi abashe kuyibungabunga neza kugira ngo itazarwara.

Ubuhinzi budakozwe neza hitaweho iteganyagihe ndetse ntihakoreshwe n'ifumbire mvaruganda cyangwa se inyongeramusaruro, akenshi bikunze gushyira igihombo mu bahinzi.

Inzu irimo utubati babikamo amadosiye ndetse iyo nzu bigaragara ko byari ibiro cyangwa se akaba ari inzu yo kwa muganga kuko muri utwo tubati hateretsemo n'imiti baha abarwayi iyo baje kwivuza.

Akarima k'igikoni ni gahunda Leta y'u Rwanda yashyizeho ndetse ishishikariza abaturarwanda bose, kuko ari akantu gafasha abanyarwanda kubona imboga kandi hafi ku buryo bworoshye.

Inzu y'ubucuruzi irangwa n'icyapa cy'umweru cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi n'umukara, akaba ari ahantu hagenewe gucururizwa ibigendanye n'ubuhinzi.

Imifuka myinshi iri mu ibara ry'umweru, iyo mifuka ikaba irunzemo ifumbire mvaruganda, bakoresha mu buhinzi kugira ngo yongere umusaruro.

Abantu benshi bari mu murima uteyemo ibigori harimo abagore, abagabo, abakuze ndetse n'abatoya bishoboka ko iri ryari ishyirahamwe rihinga ibigori bityo bakaba bari bari kwita ku bihingwa byabo.

Ahacururizwa imiti ndetse n'ingemwe z'abahinzi ndetse n'aborozi; ni byiza ko abakora uyu mwuga, baba bakwiye kwegerezwa byose bakeneye, kuko ari byo tuba dukeneye muri ubu buzima, ibyo bahinze ndetse n'umusaruro uva mu byo bejeje.

Umubyeyi uri mu murima we w'ibigori, kandi ibyo bigori bikaba bishishe bimeze neza, ameze nk'uri kongeraho inyongeramusaruro kuko n'ibi bigori bibigaragaza neza cyane bitewe n'uburyo ki bimeze neza.

Ikibaho kiriho impapuro zerekana imiti wakoresha igihe ushaka kurinda indwara zitandukanye ibihingwa byawe ndetse akaba ari imiti ikunze kwifashishwa n'abahinzi, mu buryo bwo kurinda umusaruro wabo.

Mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa bitibasirwa n'udukoko dutandukanye, habaho kubitera imiti ibirinda kugira ngo utwo dukoko ni tuza tutazangiza umusaruro wari witezwe kuri ibyo bihingwa.

Abantu benshi bari mu murima munini cyane, abo bantu bakaba biganjemo urubyiruko basaga nk'aho bari kwigishwa uko batera imbuto bakoresheje ifumbire.

Iyi ni ifumbire fashisha mu buryo bw'ubuhinzi bwa kijyambere, ndetse n'igihe ushaka kongera umusaruro w'ibihingwa, ushobora kwifashisha iyi fumbire, kugira ngo ugire umusaruro utubutse, mu Rwanda ni bwo buryo bwiza twasanze busho kudufasha, kugira ngo tugire ibihingwa bihagije.

Umugabo wari wambaye ishati y'umukara, yicaye ahantu mu nzu bacururizamo imiti, inyuma y'uwo mugabo hari akabati kari mu ibara ry'umweru ndetse ako kabati kari gapanzemo iyo miti bacuruza, buri muti uri aho wagenewe kuba.

Umubyeyi uri mu murima we w'inyanya, yambaye ingofero irimo amabara y'umweru n'umukara ndetse yambaye n'ikote ry'ubururu, ahetse ikidomoro kinini ku mugongo we cyari cyuzuyemo imiti ari gutera izo nyanya.

Inzu y'ubucuruzi iteye irange ryijimye ndetse n'irange ry'umweru, hakaba hariho icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, icyo cyapa kikaba cyandikishijweho amagambo y'umukara ndetse n'umweru, imbere y'aho hakaba hahagaze imodoka nini cyane iri mu ibara ry'umweru.

Inzu nini yubatse igereretse rimwe, ni inzu ku gikuta cyayo huzuyeho ibyapa byinshi by'ubucuruzi, bigaragara ko ari uburyo bwo kwamamaza ibicuruzwa byabo, imbere y'aho hahagaze imodoka y'umukara.

Farumasi ni ahantu hakenerwa na buri wese kuko ari inzu usangamo imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye, umugabo tureba aha ngaha yari afite imiti ibiri yari arimo yerekana, bigaragara ko yari gusobanura imikoreshereze y'iyo miti n'icyo ikivura.

Abagabo batatu bari bari mu murima bigaragara ko abo bagabo bari abahinzi ndetse basa nk'abari barimo bakora ubushakashatsi ku bihingwa byabo kuko bari bafite utuntu bariho basaruriraho utuntu duke cyane two gukorerwaho ubwo bushakashatsi.

Ifumbire ni bumwe mu buryo budufasha mu mihingire yo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugirango ngo tubashe kubona ibidutunga, aha uyu mugabo rero biragaragara ko yari ari ku ifumbire yari amaze gutundisha, bigaragara ko yari agiye kuyisanza mu murima we yarimo ahinga.

Abagabo batatu bari mu murima uteyemo imbuto z'amatunda, barimo barazibagarira. Amatunda ni igihingwa gikunda guhingwa ahantu hashashe kandi akaba ari igihingwa bisaba ko ukibagarira kugira ngo cyere imbuto nyinshi.

Urwego rw'inganda ni urwego Leta yacu yateje imbere cyane hano mu gihugu cyacu, bitewe n'uko dushaka kugira iterambere mu buryo bwose ndetse no kugera mu rwego rw'inganda zikora ibikomoka ku buhinzi nk'ibigori n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Inzu irimo amajerekani bakoresha bari kuvomerera imyaka ndetse ikaba irimo n'imiti myinshi cyane, bashobora kuba bifashisha bari kwica udukoko mu myaka, iri ni iguriro ricururizwamo iyo miti ndetse ikaba irimo ku buryo bwinshi.

Inzu nini igeretse, inzu yuzuyeho ibyapa byinshi, ibyo byapa akaba ari uburyo bumwe abantu bakoresha baranga ndetse banamamaza ibicuruzwa byabo, imbere y'iyo nzu hahagaze imodoka y'umukara.

Akabati gateretse ahantu mu nzu, ako kabati kakaba karimo ibikombe bigiye birimo inyongeramusaruro w'inyanya ndetse biragaragara ko aho hantu ari aho bacuruza iyo nyongeramusaruro.

Umugabo n'umugore bicaye mu nzu icururizwamo imiti, iyo nzu ikaba iteretsemo utubati dusize amabara y'umweru ndetse tukaba turimo n'imiti igiye ishyizwemo ku buryo buri wose uwubona bitagoranye.

Umurima wari uhinze ndetse bawurundamo n'ifumbire, bigaragara ko uwawuhinze yari ategereje kuza kunyanyagizamo iyo fumbire, kugira ngo azabashe kugira umusaruro.

Inzu icururizwamo imiti bavurisha ndetse muri iyo nzu hakaba harimo umugabo uhagazemo wambaye itaburiya y'umweru n'agapira k'umweru bigaragara ko ari we wari urimo ucuruza iyo miti.

Umugabo wunamye ufite isuka, yambaye ipantaro y'umukara, biragaragara ko yari arimo atunganya ikiraro cy'amatungo, kuko aho yari ahagaze habyerekana rwose.

Agasorori karimo imbuto z'umweru zimeze nkaho zenda kujya guterwa, iyo igihe cy'ihinga cyegereje abahinzi bose baba bafite imbuto bitegura kujya kuzitera.

Umubyeyi wunamye mu murima we yateyemo ikawa, arimo arazitaho azongeramo ifumbire kugira ngo zirusheho kumera neza, ndetse zibashe kwera cyane zimuhe umusaruro uhagije.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ubuhinzi gikoresha uburyo bw'inyongeramusaruro mu banyarwanda benshi, iyi mifuka tureba aha ngaha, ikaba yuzuyemo iyo nyongeramusaruro ndetse ikaba yarateganyijwe guhabwa Abanyarwanda n'amakoperative agiye atandukanye.

Igihingwa k'insina cyangwa se urutoki, ni igihingwa hano iwacu gihingwa mu Ntara y'Iburasirazuba ndetse akaba ari igihingwa kihera ku bwinshi, ibitoki bitunze Abanyarwanda benshi kuko usanga binahendutse ku isoko.

Igihingwa k'ingano, ni igihingwa gikunze guhingwa hano mu Rwanda, cyane cyane mu gace k'amajyaruguru nko mu Karere ka Gicumbi, ni igihingwa gihingwa ahantu hari ubutumburuke kuko usanga ari ahantu hakonja cyane kandi na cyo gikunda ubukonje.

Ubuhinzi bwa kijyambere aho abantu batera mu matarasi y'indinganire cyangwa se bagatera ku murongo, ibi ni ibishyimbo bihinze ku buso bunini cyane bigaragara ko umusaruro wabyo uzaba ari mwinshi kuko babihinze neza.

Urubuto rwa Avoka, ni rumwe mu mbuto zikundwa cyane n'abantu, kuko uretse kuba zongera ubushake bwo kurya, zigira n'intungamubiri itunga imibiri yacu, cyane cyane intungamubiri zitaho, uruhu rwacu rugahora ruhehereye.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugaragazwa no gutera imbuto imwe ahantu hamwe, ubu bukaba bwarakorewe kuri hegitari nyinshi cyane aho hari indabyo zivamo imibavu.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu ndetse usanga gihatana ku isoko mpuzamahanga. U Rwanda ni rumwe mu bihugu bihinga icyo gihingwa ndetse ruteza igihugu cy'u Rwanda imbere kuko yinjiza amadovize menshi mu gihugu cy'u Rwanda.

Ibirayi ni igihingwa cyiza, iyo cyahuye n'ibihe byiza by'imvura ndetse kigatererwa umuti ku gihe, bakagishyiramo n'inyongeramusaruro bituma gishisha, kikamera neza kandi kigatanga umusaruro uhagije.

Ibiti ni bimwe mu bihingwa byiza cyane, byaba ibiti birebire, byaba ibigufiya, kuko bigira imizi irandaranda ikajya mu butaka hasi, bityo bigatuma ubutaka bukomera ndetse bukagira n'ifumbire.

Ikawa imaze gusarurwa ikaba igiye kwanikwa, ubundi ikajonjorwa ikazoherezwa aho ayitunganyiriza, kugira ngo uyu musaruro ubashe kugera n'imahanga.

Umurima umaze guterwamo intabire, aho bitegura igihembwe gikurikiyeho cy'ihinga. Hirya gato hari ibigori na byo biri guhundurura, bigaragara ko bagomba kubitema, kugira ngo naho bahatere bundi bushya.

Imboga z'amashu iyo zihinzwe neza kandi zigahingwa ahantu heza hisanzuye, zikitabwaho ku buryo bwose, haba kuziha ifumbire, kuzuhira; ni imboga zitanga umusaruro mwinshi cyane kandi ushimishije.

Igihingwa cy'inyanya ni igihingwa ngandurarugo, iki gihingwa kikaba gikunda guhingwa ahantu mu gishanga ndetse akaba ari igihingwa gisaba kwitabwaho cyane mu buryo bw'ifumbire, haterwa imiti kugira ngo yice udukoko kigwa nabi icyo gihingwa.

Urunyanya ni rumwe mu mboga dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, urunyanya ni kimwe mu bihingwa bikenera amazi menshi cyane igihe waruhinze, kandi rukenera n'umuti wica udukoko kugira ngo rubashe kugira umusaruro mwiza cyane.

Ibiti by'ikawa iyo byitaweho neza bikabagarirwa, bigasasirwa, bikongeramo inyongeramusaruro byeraho ibitumbwe byinshi, iyi kawa biragaragara ko ishishe rwose kandi izatanga umusaruro uhagije.

Ingemwe nyinshi z'ibiti bya voka, zikaba zirunze ahantu hamwe hisanzuye, bigaragara ko zari zigiye kujyanwa aho zagenewe guterwa cyangwa se akaba ari ahantu zigurishirizwa.

Ibirayi ni igihingwa cyiza, iyo cyabonye ifumbire ndetse kikitabwaho kirera cyane, uyu murima biragaragara ko wasaruwemo ibirayi, ndetse biteguye kongera guhingamo ibindi birayi.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni bumwe mu buhinzi bugezweho hano mu Rwanda kuko ari ubuhinzi bufasha kwiteza imbere kandi akaba ari ubuhinzi butanga umusaruro utubutse igihe wabyitayeho neza.

Ubuhinzi bw'ibitoki bwa kijyambere ni bumwe mu buhinzi butuma urutoki rweramo ibitoki binini kandi bukera ku buryo butanga umusaruro mwinshi uhagije.

Ikigori ni igihingwa ngandurarugo, kikaba kimwe mu bihingwa bisaba ubwanikiro bwiza bwizewe, butariho umwanda kugira ngo butaza guhura n'udukoko twakwangiza ibyo bigori.

Ingemwe z'ibiti zirunze ahantu, izo ngemwe zikaba ziteganyijwe guterwa ahantu runaka, ibiti ni byiza kuko bidufasha gufata ubutaka bwacu kugira ngo bidatwarwa n'isuri ndetse bikadufasha no gusukura ikirere.

Umurima urimo ibiti byinshi bigiye bitandukanye. Harimo ibiti by'ikawa, harimo n'ibiti bimwe batera mu murima ku buryo bitabangamira ibindi bihingwa ndetse hateyemo n'insina. Iyi kawa irasasiwe ku buryo bwiza bishobora gutuma itanga umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bw'inyanya, ni bumwe mu buhinzi bugorana cyane, kuko inyanya zikenera ifumbire, no kwitabwaho harimo no gusasirwa. Kandi zigaterwa umuti wica udukoko inshuro nyinshi zishoboka.

Igihingwa cy'imyumbati, ni kimwe mu bihingwa dukunze guhinga inaha iwacu mu Rwanda, imyumbati ushobora kuyirya ari ibinyabijumba, cyangwa se n'aya mababi yayo bakayirya nk'imboga.

Urutoki ni igihingwa gikunze guhingwa hano iwacu mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba ndetse akaba ari igihingwa gikunze gufasha Abanyarwanda benshi, dore ko iyo byeze neza akenshi usanga ku masoko biba bihendutse.

Igihingwa cy'ubunyobwa ni kimwe mu bihingwa biryoha cyane, akaba ari igihingwa ushobora kurya gikaranze, cyangwa se akaba ari igihinga wasya kikaba nk'ubufu, ndetse ukakifashisha mu guteka ibindi biribwa nk'imboga za dodo.

Ibishyimbo ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo dukunze guhinga hano mu Rwanda, ibishyimbo biri aha biragaragara ko ari ibishyimbo bimwe bita imishingiriro kuko ubona ko ari igishyimbo kigufiya kandi kizakenera igiti cyo kurandarandaho.

Umurima munini cyane uteyemo ibigori ariko ibyo bigori bikagaragara ko byumye bisa nkaho bitabonye imvura ihagije ndetse bigahura n'izuba ryinshi, mu mpande y'uwo murima hateye ibiti by'imyumbati.

Igiti cy'umwembe uriho imyembe imwe twita ngo ni iya kinyarwanda, ni igiti gikunze guhingwa mu murima aho ari ho hose kuko ari igiti kitabangamira indi myaka mu murima kandi igira inyembe iryoha.

Ikigori ni kimwe mu bihingwa bikunzwe cyane, ndetse akaba ari kimwe mu bihingwa bifasha imiryango myinshi ku isi. Igihe habaye intambara nko mu nkambi, usanga abantu baho batunzwe n'ikigori. Ikigo rero ni ingirakamaro mu buzima bwacu.

Ingurube ni zimwe mu bworozi bukunzwe gukorwa n'abantu kuko nyuma yo gukora ubushakashatsi, byasanzwe ari ubworozi bworoha kandi bukagira umusaruro mwinshi kandi bitagoye.

Iyi ni imiti ivura amatungo, akaba ari imiti bari kwamamaza bagaragaza ko igwa neza amatungo kandi ikayarinda indwara zigiye zitandukanye bityo amatungo agashisha, akamererwa neza.

Imashini iri mu ibara ry'ubururu, akaba ari imashini bifashisha bakora ibiryo by'amatungo, aha hari umugabo wari urimo akora ibyo biryo, ndetse akavangamo n'amagi y'inkoko, ibyo bituma ibiryo birushaho kuryoha inyamaswa zikabirya zishimye.

Inkoko ni ubworozi bwiza kuko ni ubworozi bushobora gutanga umusaruro w'amagi cyangwa se umusaruro w'inyama bitewe n'uko byateganyijwe, izi nkoko ziri aha mu kiraro zirimo ziragaburirwa.

Iguriro ry'imiti y'amatungo, akaba ari umuti batera inka kugira ngo bazirinde indwara z'uburenge ndetse n'izindi ndwara zirimo indwara z'ibicurane cyangwa se izatuma inka zitabasha kubyara.

Igikombe cy'umweru, kikaba kiriho igipapuro cy'icyatsi kigaragaza ko harimo umuti mo imbere ndetse n'ingano yawo n'uburyo ugomba gukoreshwa, kikaba gifashwe n'umuntu utagaragara.

Abagabo benshi bateraniye ahantu ndetse n'ibikoresho byo gukoresha nk'amasuka, bari mu gikorwa cy'umuganda cyo gusana umuhanda, akaba ari igikorwa abanyarwanda benshi duha agaciro hano mu gihugu cyacu.

Umukobwa wambaye ingofero y'umukara, yambaye umupira wa kaki w'amaboko maremare n'ipantaro y'ubururu ndetse yambaye inkweto dukunze kwita bote, zikoreshwa n'abahagarariye abahinzi mu bijyanye n'ubuhinzi.

Umurima munini uhinzemo urutoki uri kubagarwa n'abantu babiri barimo uwambaye ipantaro y'umukara n'agakoti k'ubururu n'undi uri imbere ye, ni mu rwego rwo kugira ngo uru rutoki rukomeze kwera neza.

Umugabo uri mu murima we, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati idoze mu bwoko bw'igitenge yunamye arimo arabagara bigaragara ko harimo igihingwa cy'intoryi ndetse n'insina.

Hano iwacu mu Rwanda tugira uburyo bwo kubungabunga ibidukikije ndetse dukora isuku ahadukikije muri gahunda yiswe umuganda, abanyarwanda twese buri wa gatandatu wayuma w'ukwezi turabizi ko tugomba kwitabira icyo gikorwa.

Umugore uri mu murima, yambaye igitenge n'umupira w'ubururu bwerurutse, ndetse ateze igitambaro kwa kundi abadamu bakunda gutega ibitambaro, afite isuka, ari mu murima we, arimo arahinga.

Umuhungu ukiri muto w'umusore, afite isuka arimo arakurura ubutaka, arimo araponda icyondo, ni uburyo dukoresha hano mu Rwanda duhoma amazu yacu, kugira ngo turebe ko twabona aho duhengeka umusaya.

Abakobwa babiri bakiri batoya kandi beza bari gutera akarima k'igikoni munsi y'urugo, nyuma yo kumenya neza ko bakeneye kujya barya imboga bazikuye hafi, ni yo mpamvu bombi bafatanyije bari gutera.

Umuhinzi w'umusore ari gutera intabire yambaye ikabutura ya kaki n'agapira k'umutuku, afite isuka mu ntoki akaba iruhande rwe hateye intoki nyinshi, ni byiza ko n'urubyiruko rwitabira ubuhinzi.

Ababyeyi babiri n'umusore umwe bari mu murima, urabona ko bakora ubuhinzi bwo mu nzu, aha bari barimo bitaho ubuhinzi bw'ibihingwa byabo bahinga aho hantu.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ubuhinzi bwitaweho cyane hano mu Rwanda kuko ari imwe mu buhinzi ngandurarugo ariko kandi iyo bwahinzwe neza mushobora no gusagurira amasoko.

Umuhinzi uri mu murima we yateyemo ibirayi, biragaragara ko ibi birayi byahuye n'ifumbire nziza ndetse bigahura n'igihe cyiza cy'imvura, cyane ko igihingwa cy'ibirayi ari igihingwa na cyo gikunda ibihe by'imvura.

Abahinzi babyukiye mu murima aho bagiye kubagara ibigori byabo kugira ngo birusheho gukura neza, barimo abagore n'abagabo bose bafite amasuka, icyo bahuriyeho ni ukugira ngo barusheho kunoza ubuhinzi bwabo.

Umuganda ni igikorwa cyiza cyatangijwe na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo gufatanya hagati mu banyarwanda, aha turahabona abantu bose bari baje kwitanga kugira babashe kubakira umwe mu bari batishoboye, abashe kubona inzu yo kubamo.

Ababyeyi bari mu murima ndetse n'amasuka barimo barahinga, kandi bigaragara ko umukobwa wari urimo wambaye ingofero, yari ufasha imyumvire yabo mu bijyanye no guhinga.

Abagabo babiri bari mu murima ubona ko ari abagabo bakuze, bafite amasuka, barimo barahinga, umurima wa bo urimo ibisigarira by'ibigori bigaragara ko ubu butaka bakunze kubuhingaho ibigori.

Abantu benshi harimo abagore, abagabo ndetse bafite n'amasuka, bari ku mpande z'umuhanda barimo baraharura barasa nkaho bari bari mu gikorwa cy'umuganda kugira ngo bagire isuku.

Abahinzi barimo abagabo n'abagore bafite amasuka barimo barahinga; biragaragara ko hari umuhinzi mugenzi wabo bari baje guha umubyizi, kugira ngo na we arebe ko yazaronka umusaruro.

Insina ni igihingwa gikunze guhingwa mu ntara y'iburasirazu, akaba ari igihingwa gikorwamo cyangwa se cyengwamo ikinyobwa dukunze kwita urwagwa, akaba ari ikinyobwa gikunda kwifashishwa mu muco gakondo Nyarwanda.

Nyuma yo kweza umusaruro mwinshi cyane w'umuceri, haba hari ikusanyirizo uza gushyirwaho kugira ngo bawutunganye maze bawugurishe abawuhinze babashe kubona amafaranga.

Ubuhinzi bw'imbuto za avoka, ni ubuhinzi bukunzwe gukorerwa mu Karere k'Amajyepfo y'u Rwanda, akaba ari ubuhinzi iyo bwakozwe neza butanga umusaruro uhagije ku buryo dusagurira n'amasoko y'amahanga.

Ubwanikiro bwanitsemo ibigori byinshi cyane, ubu ni uburyo bukunze gukoreshwa n'amakoperative y'abahinzi, akaba ari n'uburyo bwiza bakoresha kugira ngo bacunge umusaruro wabo w'ibigori we kwangirika, havemo ikigori kimeze neza.

Igihingwa cy'umwumbati ni igihingwa ngandurarugo hano mu Rwanda, umwumbati ni igihingwa cyera cyane ku butaka bwo mu Majyepfo kandi akaba ari igihingwa cyeraho ibinyabijumba biryoha cyane kandi bifite ingirakamaro mu mibiri yacu.

Isoko ririmo abagore benshi bagiye batandukanye, bikagaragara ko ari isoko ricururizwamo igihingwa cy'ibitoki. Harunzemo ibitoki byinshi kuko ari byo byagenewe gucururizwa aha hantu.

Umugabo wishimye cyane ahagaze ku bitoki bye, aho yabirunze ashobora kuba yishimiye ko yaronse umusaruro uhagije muri iki gihembwe k'ihinga, urabona ko anezerewe umusaruro we.

Mu bishanga byinshi usanga bahahinga umuceri, kuko mu bishanga haba hari amazi menshi kandi ahagije kandi igihingwa cy'umuceri ni igihingwa gikenera amazi menshi cyane kugira ngo kigubwe neza.

Umugore uhagaze mu isoko, iri soko akaba ari imbuto ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo imbuto z'imyembe, amacunga, inanasi, ibinyomoro, rwose bigaragara ko ari isoko ryagenewe gucuruza imbuto gusa.

Akarere k'Amayaga ni akarere kagizwe ahanini n'ibishanga, aho usanga muri ibyo bishanga hari ubutaka buhehereye, ndetse ubwo butaka akaba ari ubutaka abaturage bakunda guhingamo, kuko usanga burimo ifumbire nziza kandi y'umwimerere.

Ubwanakiro bunini cyane bw'ibigori, bukaba buriho ikigori gisa neza rwose kandi cyumye neza, ni uburyo bukunda gukoreshwa n'amashyirahamwe y'abahinzi, bakaba babwifashisha kugira ngo babashe kwanikaho umusaruro wabo.

Ahantu henshi mu bishanga hano mu Rwanda usanga dukunda kuhahinga igihingwa cy'umuceri kuko umuceri ari igihingwa gikenera amazi menshi. Umuceri uhingwa aha mu Rwanda ntushobora guhingwa ku gasozi kuko umuceri ukenera amazi kandi amazi tuyasanga mu bishanga.

Inyanya zirunze mu bitebo byinshi ahantu mu murima, akaba ari inyanya bigaragara ko zari nk'iz'ishyirahamwe kuko harimo abagabo bari kuzitunganya, wagira ngo bazijyanye ku isoko.

Ikibaya kinini cyane, hakaba harimo umugabo uri mu murima we w'inyanya, kandi inyanya tuzi neza ko ari igihingwa gikunze guterwa ahantu mu gishanga, kuko kiba gikeneye ubutaka buhehereye ndetse burimo n'ifumbire.

Inzu nini igaragara ko hari ahantu habikwa imyaka, akaba ari igihingwa cy'umuceri, hahagazemo abantu batatu, harimo abagabo babiri n'umugore umwe, uwo mugore yari yambaye agapira k'umutuku ndetse n'ijipo yijimye.

Mu Rwanda igihingwa cy'ikigori ni kimwe mu bihingwa byashyizwe ku rwego rwo hejuru kuko ari igihingwa ngandurarugo kandi akaba ari igihingwa gifasha imiryango myinshi, mu Rwanda iwacu ahanini gihingwa mu karere k'iburasirazuba kuko ariho hari ubutaka bujyanye n'icyo gihingwa.

Igihingwa k'ibirayi ni igihingwa ngandurarugo, akaba ari igihingwa gikunze kwera mu karere k'amajyaruguru mu Rwanda, kandi akaba ari igihingwa gikunda kwera ahantu hakonja, akaba ari n'igihingwa gikunda gufasha abanyarwanda kuko cyera ku bwinshi mu gihugu cyacu.

Igihingwa cy'ikigori ni igihingwa gifasha benshi mu buzima bwa buri munsi, usibye aha mu Rwanda no mu karere hose, kuko ikigori ushabora kukirya giseye ukagisongamo umutsima cyangwa se ukacyotsa cyangwa ukagitokoza ukakirya kuriya kimeze.

Ibijumba biteye mu buryo bwa kijyambere kuko bigiye bihinze ku murongo, bikaba bitangiye gukura aho uwabihinze yitegura kubisarura, azakuramo amafaranga menshi kuko yahinze neza.

Avoka ni kimwe mu bihingwa hano mu Rwanda byagenewe guhingwa mu karere k'amajyepfo, cyane cyane mu Karere ka Huye. Ni igihingwa gikunze kuhera ku bwinshi, kuko ubutaka bwaho bujyanye n'igiti cy'avoka.

Avoka ni rumwe mu mbuto zigwa neza imibiri yacu kuko uwayiriye agira uruhu rwiza, cyane ko avoka yongera amavuta mu mibiri yacu bityo bigatuma uruhu rwacu ruhehera, avoka rero ni igihingwa kiza kandi kirimo intungamubiri nyinshi.

Ahantu hanini cyane, hateretse imifuka myinshi y'ibiro ijana, iyo mifuka ikaba ipakiyemo igihingwa cy'ingano, ingano akaba ari igihingwa bakoramo ifu y'ifarini ikorwamo imigati n'amandazi.

Ishyamba riteyemo ibiti byinshi cyane, ariko hakaba hagiye hari aho bahinze imyaka n'ibiti by'imbuto ndetse n'urutoki, iruhande gato hari akazu kubakishije amatafari ya rukarakara.

Igiti cy'ipapayi ni igiti cyiza cyane kuko ni igiti ushobora gutera aho ari ho hose kuko atari igiti gishobora kwangiza iyindi myaka iri aho ngaho mu murima, aha turabona ko ari igiti giteye ahantu mu nsina munsi y'urugo.

Igiti cya Sipure, ni igiti gihumura neza cyane, akaba ari igiti gikunze guterwa mu ntango z'urugo, kandi akaba ari igiti gikunda kwirukana imibu ndetse n'utundi dusimba dufitanye isano n'umubu, kuko umwuka wayo utuganza bigatuma duhunga.

Ibiti ni byiza cyane kuko bifasha gusukura ikirere cyacu kugira ngo biduhe umwuka mwiza wo guhumeka, aha rero turahabona ibihuru bigizwe n'ibiti bifite ibibabi by'icyatsi kandi ibyo bibabi bigaragara ko bitoshye cyane.

Amaronji ni zimwe mu mbuto zera ku giti gihagaze, ndetse kikaba igiti cyeraho amaronji menshi, kuko ari igiti usanga kiriho imbuto nyinshi z'amaronji kandi zishishe.

Ni byiza ko mu rugo iwacu tuba dufite akarima k'igikoni munsi y'urugo, aho dushobora gusoroma utuboga tukadushyira mu biryo, maze ubuzima bukarushaho kugenda neza.

Ibiti ni bimwe mu bintu bigize ubwiza nyaburanga bwa hano ku Isi, ndetse ibiti bidufasha gufata ubutaka bwacu ngo budatwarwa n'isuri, ariko kandi ibiti bidufasha no kugira ubwugamo bw'izuba nk'ahantu hashyuha cyane.

Nubwo aha hantu tubona hari ibyatsi byinshi bimeze nk'ibihuru, nyamara ibi byatsi bidufitiye akamaro kanini cyane, usibye gusukura ikirere ngo duhumeke umwuka mwiza, ibi byatsi binadufatiye ubutaka bwacu ngo budatwarwa n'isuri.

Igiti cy'umwembe iki dukunze kwita imyembe ya kinyarwanda, ni igiti usanga cyaratewe akenshi mu mirima igiye itandukanye, aha turahabona umurima uteyemo ibigori ndetse ku mpera y'uwo murima hateye icyo giti cy'umwembe.

Ishyamba rya cyimeza ni bimwe mubwi nyaburanga bigize Igihugu cyacu. Aha turahabona ibiti, igiti cy'inturusu, ndetse n'ubundi bwoko bw'ibyatsi hasi yabyo, ibiti bitoshye cyane, biragaragara ko byari mu bihe bitari iby'izuba.

Mu muco nyarwanda, hari igikoresho Abanyarwanda bakoresha bicaraho, icyo gikoresho kikaba cyitwa ikirago. Icyo kirago rero kiba kiboshywe mu mugwegwe, akaba ari cyo gihingwa turimo tureba aha ngaha, ndetse akaba ari igihingwa cy'agaciro mu Rwanda.

Ubuhinzi bw'ibobere ni ubuhinzi buhingwa hake hano mu Rwanda kuko iki gihingwa cyagenewe kugaburirwa udusimba twitwa amagweja atanga indodo bakuramo imyenda.

Igihuru giteyemo ibiti ndetse hakaba harimo n'igiti cy'ipera. Ipera ni urubuto rwiza cyane, abana bato bararukunda cyane, kandi ni ngombwa kuko rufite intungamubiri nyinshi zikenerwa mu mibiri yacu.

Ubutaka bunini cyane kandi bwisanzuye, kuri ubwo butaka hateretseho ingemwe nyinshi z'ibiti bya avoka, bigaragara ko ibyo biti byateguriwe kujya guhinga ahantu runaka, kandi tuzi neza ko avoka ari kimwe mu bihingwa bidufitiye umumaro mu buzima bwacu.

Ibiti biteye ahantu mu murima, bigaragaza imbibi z'uwo murima kandi ibyo biti bikaba ari uburyo bwiza bwo gufata ubutaka kugira ngo budatwarwa n'isuri.

Igiti cya sipure ni igiti kimaze igihe kinini kuri uyu mubumbe wa hano ku Isi, cyane cyane hano mu Rwanda i wacu uhasanga ibiti bya sipure kuko bakunda kubihinga mu ntango z'urugo bakora imbibi z'ubutaka.

Ibiti bya sipure ni bimwe mu biti byiza cyane kuko ari ibiti bigira impumuro nziza ndetse ibyo biti aho biteye usanga nta mibu ihaba kuko uriya muhumuro wabyo wirukana imibu, cyane cyane itera Malariya.

Umurima uhinze neza uteyemo ibihingwa ku buryo bwo ku murongo, bimwe bifasha ibihingwa kwera byisanzuye, impande y'uwo murima hateye ibindi byatsi dukunze kwita umucyayicyayi, akaba ari ikirungo kiza bakoresha bateka icyayi.

Insina iteye ahantu mu rugo bigaragara ko ari insina yatangiye kwana ndetse akaba ari insina ishishe imeze neza, yitaweho na ba nyirayo.

Ibiti ni bimwe mu bintu by'ibinyabuzima bidufitiye akamaro, kuko usanga akenshi bidufatira ubutaka bwacu kugira ngo bwere gutwarwa n'isuri mu gihe imvura yabaye nyinshi.

Gutoha kw'ibyatsi bikagira ibara ryiza ry'icyatsi, ni bimwe mu bitugaragariza ko turi mu bihe byiza by'imvura kuko ibyatsi ari ibintu bikenera amazi kugira ngo bitohe bimere neza.

Urukuta rw'amabuye rwubakishijwe isima nyinshi cyane ndetse biragaragara ko uru rukuta hari ubutaka rutangiriye kugira ngo ubutaka bwere kuzatwarwa n'isuri, hejuru y'urwo rukuta hateyeho ibyatsi bikunze kugaburirwa amatungo bishobora kuba ari ibyatsi by'urubingo.

Igisheke ni kimwe mu bihingwa bigira isukari nyinshi igihe urimo urakirya ndetse igisheke gikunze gukorwamo iyi sukari abenshi dukunze gukoresha mu ngo zacu, ikaba igira akamaro mu mibiri yacu.

Amashyamba ni meza cyane kuko amashyamba adufasha gufata ubutaka ndetse no gusukura ikirere cyacu bityo tukabona umwuka mwiza wo guhumeka. Si byiza rero gutema ibiti, utabiherewe uburenganzira kuko ari ukwangiza amashyamba.

Umusave ni igiti kiza cyane kandi akaba ari igiti kiboneka ahantu hakeya, ibibabi by'umusave byifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe mu buvuzi gakondo bwa kinyarwanda.

Isoko ricururizwamo imboga zigiye zitandukanye, harimo imiteja, harimo puwavuro, ndetse uhasanga n'igihingwa cyitwa beterave, akaba ari igihingwa gifasha abantu kongera amaraso mu mubiri.

Amatunda ni bimwe mu mbuto zihingwa hano iwacu ndetse zigahera ku bwinshi, ni urubuto bisaba guhinga ahantu ndetse bisaba ko uzishingirira kugira ngo zibone uko zirandaranda kuko iyo zahabonye aho zirandarandira hisanzuye, nibwo zera neza ku buryo bwinshi.

Puavro nk'igihingwa kiza gikundwa na benshi dore ko ari ibirungo byiza cyane mu mafunguro atandukanye by'umwihariko imboga zizwi nk'inyama iyo bashyizemo puavro zihumura neza cyane.

Ubusitani ni bimwe mu bigira ahantu heza, akaba ari imbuga bakunda kwifashisha nko mu gihe habaye ubukwe cyangwa se nk'igihe bakeneye ahantu heza hagaragara neza ho kwifotoreza.

Ubusitani bwiza buri ahantu mu ntango z'urugo, ubwo busitani bukaba buteyeho ibyatsi bigiye bitandukanye, ibi byatsi bikaba byaragenewe gufata ubutaka ndetse no gutanga ubwiza n'umwuka mwiza muri urwo rugo.

Ubuhinzi ni mu buryo bumwe butunze benshi hano ku Isi, kuko hatariho ubuhinzi ntabwo twabasha kubona ibyo turya, aha hari mu gishanga bigaragara ko bari bahahinze ibishyimbo ndetse ibyo bishyimbo ubona ko bikeneye amazi ngo bigire itoto.

Ubusitani bwiza, buteyemo ibyatsi bigiye bitandukanye, ndetse ibyo byatsi bikaba bifite amababi y'icyatsi, rwose asa neza bigaragara ko bayuhira uko bwije n'uko bukeye. Muri ubwo busitani hateyemo igiti cy'ipoto y'umuriro, ndetse akaba ari igiti bakunze gucishaho umuriro w'amashanyarazi.

Umuneke ni urubuto rwiza, urubuto usangamo intungamubiri nyinshi, ndetse rukaba ari urubuto rufasha igogora, cyane cyane iyo wamajije kurya, kandi kugira ngo bigende neza mu nda, ni ukurya umuneke.

Indabyo ni bimwe mu bihingwa bitanga umwuka mwiza ndetse ukagera ahantu heza, cyane cyane iyo ziteye mu mbuga cyangwa se mu mpande z'urugo, ubona ari ahantu hagaragara neza.

Ku Murenge ni hamwe ku biro hatangirwa serivise ku baturage ndetse akaba ari ahantu hakorera inzego z'ibanze, hari abantu benshi, bari ku murongo, biragaragara ko bategereje umuyobozi ngo abafashe mu bibazo byabo bari bafite.

Akarima k'igikoni gakozwe munsi y'urugo, akaba ari akarima ubona ko gateyemo imboga n'ubwo ari bwo bakigatera, ariko ni uburyo bwiza bwo kugira imboga hafi y'urugo.

Kapusine ni kimwe mu bwoko bw'ibyatsi bivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, mu buvuzi gakondo bwo mu Rwanda bakunda gukoresha iki cyatsi kuko cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Igihingwa cy'urusenda ni igihingwa natwe hano iwacu dukunda guhinga ndetse urusenda ni kimwe mu bihingwa byiza cyane kuko rutera ubushake bwo kongera kurya, ndetse rukarinda n'indwara ya kanseri yo mu gifu.

Umudamu ucigatiye igihingwa cya puwavuro bigaragara ko ari umusaruro yakuye mu mbaraga ze, aha yerekanaga uburyo ki icyo gihingwa cye cyabashije kumera neza ndetse kikaba gishishe rwose kandi gisa nkaho cyaguwe neza n'ifumbire.

Inzu nini cyane ifite igisenge giteye ibara ry'umweru ndetse n'umukara, kandi iruhande rw'iyo nzu hakaba hateye igiti cy'ipapayi, igiti cy'ipapayi rero gikunze kugira urubuto rwiza cyane kandi ruryohera, rufite intungamubiri nyinshi mu mibiri yacu.

Indabyo ni zimwe mu bihingwa bitanga umwuka mwiza, cyane cyane iyo bihinze imbere y'urugo nko mu mbuga cyangwa se mu mpande zikikije inzu.

Inyanya zirunze mu ibase y'ubururu ndetse impande yazo hari imboga, hakaba imiteja n'ibindi bitunguru dukunze kwita tungurusumu, byose akaba ari ibibwa twifashisha dutegura amafunguro.

Igitunguru cy'umweru ni kimwe mu mboga ushobora kurya ari mbisi cyangwase ukaba wagiteka, igitunguru kifashishwa mu kugira ngo ibiryo bigire impumuro nziza, ndetse binagire icyanga.

Ibihingwa by'ibitunguru ni ibihingwa bihingwa hano mu Rwanda cyane cyane mu ntara y'Amajyaruguru mu Karere ka Musanze, igitunguru ni cyiza kuko kiryoshya ibiryo bigatuma biryohera buri wese.

Ubusitani buri ahantu hiherereye, aho buteyemo indabyo ndetse n'ubwatsi butoshye, inyuma yabwo hakaba hari ibiti by'imbuto zirimo amapera ndetse na voka.

Umudamu ucuruje imbuto n'imboga akaba yicaye iruhande rw'isoko aho yabishyize mu ibase, afite ibase y'umuhondo irimo ibinyomoro ndetse n'amatunda, n'indi ntoya irimo ibibiringanya.

Inyanya ni igihingwa cyiza iyo kitaweho, zitanga umusaruro uhagije kandi zikaza ari inyanya nziza zishishe zigaragarira amaso. Aha turahabona akabase zari zirunzemo, zari ziri ku isoko.

Igiti kinini cy'inganzamarumbo cyakuze, kikaba ari icy'avoka. Munsi yacyo gikikijwe n'ibirabyo by'icyatsi na byo byigiye hejuru. Ibi bikaba ari ubuhinzi bw'imbuto z'avoka.

Igishanga giteyemo umuceri, cyane ko igihingwa cy'umuceri giterwa ahantu hari amazi menshi; hakurya y'icyo gishanga hakaba hari amaterasi ndinganire, bumwe mu buryo dukoresha dufata ubutaka ngo butajyanwa n'isuri.

Dodo ni imboga nziza, ni imboga zifasha imibiri yacu ndetse zikarinda n'indwara y'amaso ndetse zifasha n'igogora kuko uwaziriye adashobora kugira ikibazo cy'impatwe.

Isoko ry'imbuto, hakaba hagaragara imbuto zigiye zitandukanye, harimo amacunga, imyembe, ibinyomoro, inanasi, ndetse na pome.

Isoko ry'imboga harimo inyanya, ibitunguru na karoti, akaba ari imboga bifashisha bategura amafunguro ndetse akaba ari n'imboga zigira intungamubiri mu mibiri yacu.

Isoko ry'imbuto rigiye ririmo imbuto zigiye zitandukanye, aho harimo imbuto z'umwembe, indimu, amatunda ndetse n'ibinyomoro, iki giti cy'umwembe ni igiti cyiza cyane kuko kigira urubuto ruryohera kandi zikunze kugwa neza imibiri yacu

Imbuto z'ikinyomoro ni imbuto nziza, akaba ari imbuto dusanga hano iwacu mu Rwanda ndetse akaba ari imbuto zifite intungamubiri kuko zongera amaraso ku badafite amaraso ahagije mu mubiri.

Inzu nini yubatswe ku buryo bugezweho, iyo nzu ikaba ifite igipangu kinini na cyo cyubatse neza kandi ku buryo bugezweho, imbere y'icyo gipangu hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti bifata ubutaka bwa ho.

Nubwo igihingwa cy'amashu ari igihingwa gikunzwe guterwa ahantu mu bishanga, ariko no ku misozi kirahaterwa. Cyane cyane ahantu hari imisozi miremire, kuko kubera ubutumburuke buba buhari, usanga hari ubukonje, kandi amashu ni igihingwa rwose gikunda ahantu hakonja.

Igihingwa cy'ibinyomoro ni igihingwa dukunze guhinga hano mu Rwanda, ni imbuto zongera amaraso mu mubiri ndetse zikagira intungamubiri nyinshi.

Ubuhinzi bw'imboga z'ibitunguru ni ubuhinzi budasabwa gukorerwa ahantu hanini cyane cyangwa se hagari cyane, upfa kuba gusa wabyitayeho, ukabiha ifumbire kandi ukabibagarira neza.

Abana babiri b'urubyiruko ubona ko bakuze, ariko bakiri mu myaka y'ubutoya, bahagaze mu murima uteyemo imboga zishishe zisa neza, bishoboka ko wari umushinga wabo ugendanye n'iby'ubuhinzi.

Igihingwa k'inyanya, ni igihingwa gisaba imbaraga n'ubushobozi kuko ari igihingwa gisaba ibintu byinshi kugira ngo kikugeze ku musaruro uhagije. Uyu mugabo arimo aragerageza guteramo umuti, arwanya udukoko twica izo nyanya ntizibashe kwera.

Uburyo bwo kuhira imyaka ni uburyo bwagenwe na Leta yacu kugira ngo turusheho kugira umusaruro utubutse kandi uhoraho. Aha ni mu karere ka Nyagatare, mu gishanga cy'ahagenewe guhingwa imboga.

Uburyo bwo kuhira imyaka ni uburyo bugezweho busigaye bukunze gukoreshwa hano mu Rwanda kugira ngo turusheho kugira umusaruro uhagije, twihaze mu biribwa ndetse dusagurire n'amasoko.

Uburyo bwo kuhira imyaka, ni uburyo bufasha kugira umusaruro uhagije ndetse akaba ari uburyo burinda inzara, kuko ubukoresha abasha guhorana umusaruro ukomoka ku buhinzi.

Uburyo bwo kuhira, ni uburyo bukoreshwa hano mu Rwanda mu rwego rw'ubuhinzi, ndetse akaba ari uburyo twifashisha, ku buryo dushobora guhinga igihe icyo ari cyo cyose, tudategereje igihe cy'imvura. Uyu mubyeyi yari ari kuhira ibigori bye, kandi biragaragara ko cyari igihe cy'izuba.

Igihingwa cy'amashu ni igihingwa kiza cyane ndetse n'igihingwa dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko ari imboga zirwanya uburwayi bwo kutabona, ni igihingwa gikunze gukorwamo icyo twita sarade ndetse akaba ari igihingwa gikenera amazi menshi.

Ubuhinzi bwa kijyambere usanga butuma ababukora biteza imbere bagasezerera ku bukene, ariko babifashwamo n'uko Leta yashyize imbaraga mu kuzajya ibaha amazi yo kuhira mu gihe cy'izuba.

Muri iki gihe kubera ibihe by'ikirere byagiye bihindagurika n'ibihingwa byose bisigaye bikenera imiti yica udukoko dushobora kwangiza imyaka, ibi bigori bari barimo babitera iyo miti kuko yari yajemo udukoko.

Umusozi uhinzeho uburyo bwa kijyambere. Bigaragara ko ibihingwa byose bigiye biteye mu buryo bwo ku murongo. Munsi yawo harimo ikibaya na cyo cyamaze gutunganywa kigiye gushyirwamo imyaka.

Imisozi igiye yinjiranamo ikaba iteyeho amashyamba, mu kibaya cyawo bahahinze umuceri kuko ari cyo gihingwa gikwiye guhingwa mu gishanga kugira ngo gikure neza.

Mu bihingwa ngengabukungu tugira hano mu gihugu cy'u Rwanda, igihingwa k'ikawa na cyo ni kimwe muri ibyo bihingwa. Aha turabona ikawa zishishe zimeze neza, kandi zezeho ibitumbwe byinshi.

Mu Rwanda ubuhinzi ni mu bumwe mu buryo bubeshejeho Abanyarwanda benshi, ndetse n'ubworozi bikagenda biherekeranyije, aha turahabona umurima, impande y'uwo murima hateye ubwatsi bukunze kugaburirwa amatungo nk'inka, ihene, intama.

Amaterasi ndinganire, ni bumwe mu buryo bukoreshwa, ahantu mu misozi, cyangwa se ahantu hahanamye, kugira ngo bube uburyo bubasha gufata ubutaka, bwe gutwarwa n'isuri mu gihe imvura yabaye nyinshi, cyangwa se turi mu bihe byayo.

Mu gishanga ahari amazi atemba ariko atari meza, gusa ntacyo bitwaye kuko n'ubundi aya ngaya aba agomba kuhira uyu muceri uhinze iruhande rwawo, ubundi ukera neza.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu, kandi icyayi ni cyo dukoramo amajyani tunywa mu cyo twita icyayi, ni igihingwa rero gihagana ku masoko mpuzamahanga, kandi akaba ari igihingwa gikunda guterwa ahantu hakonja cyane kuko gikunda ubukonje.

Imirwanyasuri ni uburyo bukoreshwa hano mu Rwanda, cyane cyane mu karere k'imisozi miremire nko mu karere k'amajyaruguru kandi akaba ari uburyo bwifashishwa kugira ngo abahaturiye babashe guhinga, bizeye kuzakuramo umusaruro wabo.

Ubutaka bw'ahantu hahanamye cyangwase mu misozi hano mu Rwanda, ni ubutaka bwakunze kwibasirwa n'isuri mu gihe cy'imvura, kugira ngo rero barwanye iyo suri no gufata neza ubwo butaka bwo mu Rwanda, bazanye uburyo bwo guhinga ku materasi ndinganire, kugira ngo abahaturiye babashe guhinga nta kibazo na kimwe bagize cy'ubutaka.

Guhinga neza ndetse tugatera ku murongo ni uburyo bumwe butanga umusaruro uhagije ku rwego rwo hejuru rwose, aba bagabo tubona bari barimo batera ibirayi kandi ubona ko na bo bari gukoresha ubwo buryo.

Amaterasi y'indinganire ni bumwe mu buryo bakoresha bahinga ahantu hari imisozi cyangwa se hahanamye cyane, kandi akaba ari uburyo bwiza bwo gufata ubutaka ngo budatwarwa n'isuri, kandi akaba ari n'ubundi buryo bufasha abantu guhinga ku ubutaka kandi ntibahimge ahantu hanini cyane.

Ikibaya kiri munsi y'imisozi mu gishanga ahahinze umuceri neza ukaba uhinze aho wagenewe kuko uba ukeneye amazi menshi, haragaragara umubyeyi uri kwita kuri uyu muceri.

Ihene ni rimwe mu matungo atagorana kuko ari itungo rikunda ahantu hashyuha cyane ari bwo rishisha rikamera neza. Zikunda kurisha ahantu hari ubwatsi budatoshye cyane kuko ari bwo bwatsi buzigwa neza.

Ubworozi bwo mu kiraro ni bumwe mu bworozi Leta y'u Rwanda yashyize imbere, mu rwego rwo kurwanya indwara zibasira amatungo harimo nk'inka, aha biragaragara ko iyi nka yashishe rwose ndetse banayigaburira neza.

Ihene ni itungo ryiza, akaba ari itungo rizi kubana n'abantu, aha umumama arimo aritaho amatungo ye abiri, agerageza kureba ko ayo matungo yagira ubuzima bwiza, arimo arayagaburira kugira ngo abashe gushisha, amererwe neza.

Isake bigaragara ko imaze gukura cyane, ikaba ifite umubyimba munini, ubirebera ku kirokoroko cyayo ndetse n'umurizo, iyi ngiyi irenda kuribwa kuko yamaze gukura.

Umugabo uri mu rugo rwe arimo agaburira amatungo, bigaragara ko uyu mugabo ari umuhinzi ndetse akaba n'umworozi kuko mu mbuga ye hari ingurube, hari inkoko ndetse n'inka iri mu kiraro.

Ihene ebyiri ziziritse ahantu munsi y'urugo, izo hene zikaba zirimo zirarisha zishishikaye kandi izo hene zikaba ziri mu ibara ry'umweru ryerurutse.

Ubworozi bw'inka bwo mu kiraro, ni ubworozi burinda amatungo guhura n'indwara nyinshi zifata amatungo, izo ndwara zikaba zazanwa n'andi matungo aba yaturutse hirya no hino.

Utuzu twubatse mu mbaho, akaba ari utuzu duteye irangi ry'ubururu ndetse akaba ari utuzu dutoya twagenewe kororerwamo inkwavu ndetse izo nkwavu zikaba zirinzwe rwose.

Inka nziza y'umushishe, bigaragara ko iyo nka yitaweho rwose, kuko irimo ironsa n'akanyana kayo, ubona ko na ko kanezerewe, kandi na ko gashishe, kameze neza, bigaragara ko iyi nka, yatanga umukamo uhagije rwose.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu bworozi bwunguka cyane kuko ari ubworozi butubuka mu gihe gitoya, kuko ingurube imwe nko mu gihe cy'amezi atandatu gusa birashoboka ko yaba imaze kuba ingurube makumyabiri.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bwiza kandi butanga umusaruro, kandi akenshi usanga ari ubworozi butavunanye cyane, iyo wabashije kubona ibyo ugaburira izo nkoko, ushobora kubona umusaruro utubutse, waba uw'amagi cyangwa se umusaruro w'inyama.

Umugabo wicaye imbere y'ikiraro cyaho akorera ubworozi bw'inkoko, yambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, ubworozi bw'inkoko iyo bwakozwe neza ni ubworozi butanga umusaruro ushimishije.

Abagabo batatu bashoreye inka ebyiri, bigaragara ko bari bazikuye ku isoko ndetse izo nka ziri kugenda zirisha ubwatsi zihuye na bwo mu nzira.

Ubworozi bwo mu kiraro ni uburyo bwiza bwo kurinda amatungo yawe ko ashobora kwandura indwara zikomotse ku yandi matungo aturutse ahandi, ndetse amatungo yawe agatanga umusaruro uhagije.

Ihene ni itungo ryiza cyane kuko ari itungo ryororoka mu gihe cy'izuba, ndetse akaba ari itungo rikunze kubana n'abantu, kandi usanga ritagoye mu kurishakira icyo ririsha.

Ingurube ni imwe mu matungo yororoka vuba kandi cyane. Kuko ingurube imwe ishobora kubwagura ibibwana makumyabiri icyarimwe. Aha turahabona ingurube iryamye rwose yarumbaraye, bigaragara ko yonsa kandi ikaba ikuze cyane.

Kororera mu kiraro, ni uburyo bwazanywe na Leta y'u Rwanda, mu rwego rwo kwirinda indwara zibasira amatungo, harimo nk'indwara y'uburenge. Iyi nka rwose iragaragara ko ishishe, kuko ari n'uburyo butuma umworozi abasha kwitaho itungo rye neza, akarigaburira uko bikwiye.

Ingurube ni itungo ryororoka cyane, aha turabona ingurube ziri mu kiraro, zari zitegereje ko zigaburirwa, izi nizitabwaho, zishobora gutanga umusaruro wikubye gatatu uko zo zingana.

Ubworozi bw'ingurube bugezweho ni bumwe mu buryo dukoresha kugira ngo ingurube zirusheho kumererwa neza ndetse zishishe cyane kandi zibashe gutanga umusaruro mwinshi.

Ihene ebyiri ziziritse munsi y'urugo, ihene ni itungo ryiza kuko ni itungo bidasaba ko zirisha ahantu hanini cyane kuko n'ahantu hatoya harimo ubwatsi bukeya zirarisha kandi zigahaga ku buryo ubona ko zimeze neza.

Ubworozi bw'inka bwo mu kiraro n' ubworozi bwa kijyamberekaba, akaba ari ubworozi butanga umukamo mwinshi rwose utubutse. Ahangaha tukaba tuhabona abagabo benshi bameze nk'abayobozi byasaga nkaho bari baje gusura umworozi ngo barebe ko ubworozi abukora neza uko byagenwe.

Ubworozi bw'amatungo magufi usanga bwitabirwa na benshi cyane by'umwihariko na b'urubyiruko basigaye batinyuka bagakora ubu bworozi. Aha hari utuzu duto twororerwamo inkwavu, zikaba nazo zitanga umusaruro.

Umugabo uhagaze mu kiraro cy'inkoko ze, ubona ko arimo arazigaburira ndetse ubona ko zishishikaye rwose zari zishonje. Ubworozi bw'inkoko rero ni ubworozi bwiza cyane kandi busaba kwitabwaho.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bumaze gutera imbere cyane, hakaba harimo ubworozi bw'inkoko bwo gutanga amagi ndetse hakaba harimo n'ubworozi bw'inkoko bwo gutanga inyama, aha turahabona inkoko nyinshi zasaga nk'aho ziri kugaburirwa.

Ubworozi bw'ingurube ni ubworozi bwiza cyane, kuko iyo wabwitayeho butanga umusaruro utubutse. Aha turahabona umubyeyi wari urimo yitaho itungo rye ry'ingurube, arigaburira amazi kugira ngo rirusheho gushisha neza, ndetse atoza n'umwana we uko barigaburira.

Mu rurimi rw'Ikinyarwanda ingurube dukunda kuzita indyoheshabirayi kubera kugira akanyayama keza karyoshye kandi gakunzwe na benshi. Ingurube ni itungo ryiza kuko ryororoka vuba kandi ku bwinshi kandi rigatanga umusaruro.

Itungo rigufi rizwi nk'ihene, rikaba riri kurisha, iruhande rw'urutoki runini rwakuze, rukaba rugeze igihe cyo kwera, kugira ngo abaruhinze basarure ku byo bateye.

Ubworozi bw'ingurube ni ubworozi buhendutse kandi bworoshye cyane, kandi ni ubworozi butanga umusaruro utubutse mu gihe gito kuko ingurube ibwagura ibyana byinshi.

Ubworozi bwo mu kiraro ni ubworozi Leta y'u Rwanda yasabye buri munyarwanda wese, mu rwego rwo guca akajagari ndetse n'amakimbirane yahoraga hagati mu benegihugu bapfa konesherezanya nyamara bitari ngombwa.

Inzu nini cyane kandi ngari, akaba ari inzu yagenewemo kororerwamo kuko harimo amatungo menshi y'inkoko. Hahagazemo umugabo wari wambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko yari arimo agaburira aya matungo.

Hari umugani, uvuga ngo nta nkokokazi ibika isake ihari, aha rero naho turahabona inkoko y'isake n'inkokokazi, bigaragara ko biri mu mbuga y'umuturage.

Ingurube zorowe ku buryo bwa kijyambere usanga zimerewe neza, izi ngurube uko ari eshanu urabona ko rwose ziryamye, zituje, bigaragara ko zagaburiwe, zihagije kandi zifite ubuzima bwiza.

Korora kijyambere ni uburyo bwiza bwashyizweho kugira ngo tugire umukamo utubutse, maze Abanyarwanda twese tubashe kubona amata kuko amata ari ingenzi kandi ari ingirakamaro mu mibiri yacu.

Ubworozi bw'ihene, ni mu bumwe mu bworozi bwiza, kuko ihene ntizigora mu gihe cy'izuba, na bwo zirashisha. Izi hene z'imishishe tureba hano, ni ihene nziza, bigaragara ko zari zijyanywe ku isoko.

Ingurube ni rimwe mu itungo dukunze kwita ngo n'indyabyose kuko ingurube nta kintu na kimwe zitarya, ibyo byorohera umworozi wazo ndetse bigatuma zitanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya.

Ihene ebyiri ziziritse mu ntango z'urugo, ubona ko ari ihene zishonje rwose kuko igihe cyo kuzitaho kitaragera, gusa ihene ntabwo zigora kuko n'iyo zidafite ubwatsi n'ivumbi zirarirya.

Umudamu wambaye ishati yo mu bwoko bw'igitenge, yambaye ijipo y'ubururu, ahagaze imbere y'amatungo ye y'ihene. Ihene ni itungo ryiza cyane kuko ntabwo rigorana mu kuryorora kuko no mu zuba ribasha kororoka.

Inyanya ni kimwe mu bihingwa nkenerwa mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane ko ari igihingwa gikunze gukoreshwa mu buryo bw'imitekere, kandi akaba ari igihingwa gifite ingirakamaro ku mibiri yacu, kikaba kiryoshya ibiryo cyane.

Umurima munini kandi uhinzwe neza, hasigaje gushyiramo ifumbire gusa kugira ngo bateremo imyaka, biragaragara ko iki cyari igihe cy'ihinga.

Ibigori iyo bihinzwe neza, bigasarurwa neza ndetse bikanikwa neza, ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro mwinshi, uvamo amafaranga ndetse ugatunga imiryango.

Igiti cy'umugano, ni igiti cyiza cyane gifata ubutaka bakunda kugitera mu mpande y'imigezi kugirango iyo migezi idatwara ubutaka bugiye buyikikije kandi icyo giti gikorwamo n'ibintu by'ubwiza nyaburanga.

Ubwanwanakiro ni bumwe mu buryo bukoreshwa n'amakoperative y'ubuhinzi kuko ari uburyo bubafasha kwanika ibihingwa byabo, cyane cyane nk'ibigori ibishyimbo, birabifasha cyane kuko bibirinda kuba byakwangirika.

Abagabo babiri bari mu kiraro cy'inka ndetse umwe yasaga nk'uwari urimo avura inka bishoboka ko yari yagize ikibazo, uwo mugabo akaba yambaye na bote.

Umugabo wambaye ingofero, akaba yambaye n'ijaketi y'ibara rya kaki ndetse n'ipantaro y'ubururu n'inkweto dukunze kwita bote z'umukara, yari ari mu kiraro arimo yitaho amatungo ye.

Imbwa ni rimwe mu itungo rikunze kubana n'abantu kandi akaba ari itungo rizi kubana n'abantu kandi rikagira n'ubwenge bwinshi, Veterineri yararimo aryitaho aha ngaha kugira ngo asuzume ko nta burwayi rifite kuko rigomba kujya rihora rihabwa urukingo.

Ubworozi bw'inka, ni bumwe mu bworozi bukundwa n'abanyarwanda benshi, kuko ari ubworozi butanga umusaruro w'amata ndetse n'uw'inyama, aba bagabo babiri bakaba bari bari mu kiraro, barimo bakingira inka yari imbere yabo.

Umugabo uhagaze mu rwuri rw'amatungo y'inka, bikagaragara ko urwo rwuri rwari rurimo ubwatsi bushishe rwose bumeze neza, bigaragarira ku matungo ye kuko izo nka zari zirimo zirisha kandi ubona ko zishishe zimeze neza.

Girarinka mu Rwanda, ni uburyo Leta y'u Rwanda ikoresha yoroza abaturage batishoboye hano mu Rwanda ndetse akaba ari uburyo abaturage bakoresha borozanya hagati yabo kugira ngo buri Munyarwanda byibuze abashe kubona amata yo kunywa.

Abaganga b'amatungo, bakunze gusura abaturage borora, ndetse ayo matungo bakayateraho amaherena, kugira ngo babashe gukurikirana neza amatungo yabo. Ni n'uburyo bwiza, umuntu akoresha igihe yajyanye itungo rye ku isoko, kugira ngo babe babizi neza ko ari irye koko.

Abagabo babiri umwe yari yambaye igisarubeti cy'ubururu bakaba bari bari mu rwuri rw'ihene, ubworozi bw'ihene bukorewe ku mwanya ungana gutya, usanga ahanini ari ubworozi bukorwa ku buryo bwa kijyambere.

Inka ni rimwe mu itungo twifashisha hano mu Rwanda, mu buryo bw'imirire y'inyama ndetse no mu buryo bw'ubuhinzi, kuko ari rimwe mu matungo akunda gutanga ifumbire twifashisha mu buhinzi. Aha rero uyu mugabo akaba yari arishoreye, arijyanye ku isoko.

Umugabo wambaye isarubeti y'ibara ry'ubururu bwijimye ndetse akaba yambaye n'inkweto dukunze kwita bote z'umweru, ashoreye inka ebyiri z'imishishe wagira ngo azijyane ku isoko.

Ni mu rwuri rurimo ubushyo bw'inka aho ziri kwitabwaho n'ushinzwe kuzitera imiti yica udukoko dushobora kuyiteza indwara, ahetse ikintu mu mugongo apompa kikavamo umuti.

Girinka ni uburyo bwa Leta y'u Rwanda yashyizeho bwo koroza abanyarwanda kugira ngo babashe kubona amata. Amata ni ingirakamaro mu mibiri yacu kuko ifasha abana ndetse ikabarinda igwingira.

Abagabo babiri bari ahantu murugo ndetse abo bagabo babiri bari bafashe ingurube mu maboko yabo, bigaragara ko umugabo umwe yasaga nk'aho arimo arayitera urukingo ruyirinda indwara.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu bworozi butagoye kubukora ndetse akaba ari ubworozi butanga umusaruro uri ku rwego rwo hejuru, gusa ingurube iyo zatangiye kugira uburwayi bikuberamo igihombo gikomeye cyane.

Inkende ni akanyamaswa gashimisha abantu cyane, kuko ari akanyamaswa kazi gukina n'abantu cyane cyane iyo ufite ibintu gakunda nk'umuneke cyangwa se izindi mbuto zirimo na pome.

Agakoko k'inkende, cyangwa se ko mu bwoko bw'inkima, ni kimwe mu dukoko tugize ubwiza nyaburanga, ndetse akaba ari ubukoko bukunze gusurwa cyane na ba mukerarugendo, bityo bigatuma bwinjiza amafaranga y'amadovize menshi.

Inyoni ni inyamaswa nziza cyane kuko zitubera n'icyigisho mu buzima ntizihinga, ntizibiba ariko nyamara zibaho uko bwije bukeye ndetse nta n'imbaraga ziba zakoresheje cyane.

Ubushyo bw'Inzovu bukaba buri kugendera hamwe. Izi ni inyamaswa zizwiho kuba, ari zo zigira ibiro byinshi kandi zikaba na nini mu nyamaswa zose ziri ku Isi. Zigenda rero mu miryango, kugira ngo hatagira indi nyamaswa izisagarira.

Utunyoni tubiri turi mu mabara y'ubururu, umuhondo n'umugara w'umukara, akaba ari utunyoni tudakunze kugaragara hano iwacu mu Rwanda. Ariko ni utunyoni ushobora gusanga mu mashyamba nk'ishyamba rya Nyungwe, kuko ari ishyamba ryagenewe gusurwa na ba mukerarugendo.

Inyamaswa iguruka izwi nk'igisiga cyangwa se ikiyoni, iyi ikaba yaritiriwe ikipe imwe ya hano mu Rwanda bakunze kwitirira igikona mu mabara y'umweru n'umukara.

Inyoni nini dukunze kwita inyoni ya kagoma, ntago ikunze kuboneka ino aha mu Rwanda, ni inyoni ikunze kuba mu bihugu bikonja cyane, cyane cyane ibyo bihugu tubisanga mu mahanga.

Inkende z'umukara ndetse zifite ubwoya bwinshi, ni inkende zikunze kuba ahantu h'ubutumburuke hakonja cyane kuko buriya bwoya buzifasha guhangana n'bukonje bw'aho hantu.

Inkende ni inyamaswa zikunze kwibera ahantu hateye amashyamba n'ibiti byinshi, kuko ari utunyamaswa dukunda kwitendeka mu biti, ndetse akaba ari utunyamaswa dukunda ahantu haba hari akayaga kenshi.

Utunyoni ni bimwe mu biremwa byiza imana yaturemeye hano ku isi, utunyoni dukunze kwibera ahantu mu mashyamba, ahantu hari ibiti dore ko ariho tubasha gukora ibyari tubamo kandi tukaba twisanzuye.

Inyoni nk'inyamaswa y'ikiguruka nziza, ikaba ifite amabara meza y'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, izi ni nyoni zidakunze kuboneka aho ariho hose, usibye gusa mu byanya byazo.

Inkima ni zimwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba, akaba ari uburyo bumwe bukunze kwinjiriza igihugu amadovize kuko ba mukerarugendo benshi bakunze kujya muri ayo mashyamba, bagiye kuzisura.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa zikunze kwibera mu biti, kuko aho mu biti niho zikora ibyari bizirinda imvura cyangwa se izindi nyamaswa zishobora kuza zizihiga.

Mu buryo bwo kubungabunga ibidukikije, harimo no kubungabunga izi nyamaswa dusanga mu mashyamba kuko ni muri bimwe bikurura ba mukerarugendo, bikinjiza amadovize mu gihugu cyacu.

Inyoni zigiye zitandukanye, usanga zibayeho ku buryo nabwo bugiye butandukanye, iyi yo tureba hano, ni inyoni ikunze kuba ahantu hari amazi menshi cyangwa se ibiyaga kuko itungwa n'amafi.

Hariho abantu, bakunda imbwa, ku buryo baba bazicirira, bakaba bazitunze iwabo. Uyu mugore ukenyeye igitenge kirimo amabara y'umuhondo, akaba afite imbwa bigaragara ko ari nini.

Ahantu hari ibiti byinshi mbese hakoze nkaho ari ishyamba, ni ahantu heza inkende zikunda cyane kuko zikunda kuhakura ibyo zirya ndetse zikabasha kuhakora n'uburyamo bwazo.

Imbwa ni itungo ryiza kuko ari itungo rizi kubana n'abantu ndetse akaba ari itungo rifite ubwenge kuko icyo irutoje, ni cyo ikora kandi igira urukundo rwinshi.

Imbwa ni inyamaswa izi kubana n'abantu ndetse ikaba inyamaswa ibaho bigendeye ku buryo wayitoje kuko ari inyamaswa ibasha kumva ibyo uyibwiye kandi igakurikiza amategeko uba wayihaye.

Inyamanswa zo muri pariki zigiye zitandukanye, akenshi zikunda amashyamba aba ahantu hashyuha, kuko ari inyamanswa zitabasha guhangana n'ubukonje, ahubwo zibasha guhangana n'ubushyuhe.

Ingagi y'umukara yicaye ahantu mu gashyamba mu byatsi byiza cyane, ingagi ni uburyo bumwe hano mu Rwanda bw'ubukerarugendo ndetse bwinjiriza igihugu cy'u Rwanda amadovize atagira ingano.